Ni imyiyerekano hari abasore bari kubyina ndetse bambaye imipira y'umweru, bambaye ingofero y'umukara mu mutwe, hari abari kub ku ruhande bambaye amakoboyi y'ubururu harimo n'ibara ry'umutuku, ndetse hari n'abari kubareba bicaye imbere yabo.

Hari ikirango cyanditseho urubyiruko menya amateka yawe hari abasore, umwe arapfukamye undi arahagaze yamwiyemo baramufashe bambaye imipira y'umweru hari n'abandi bicaye bari kubareba harimo uwambaye ingofero y'umweru mu mutwe.

Hari abantu benshi, harimo aba mama, aba papa, abana bicaye bari kureba, abantu babiri babahagaze imbere, bafite mikoro, umwe afite mikoro y'umuhondo hasi umukara, undi afite iy'umutuku ni umu mama, yambaye ikanzu ifite agatambaro k'umuhondo mu ijosi.

Ni abaririmbyi bari mu kirori hari uw'ufite mikoro ari kuririmba hari n'abari gukoma amashyi bambaye imipira y'umweru hari n'umukaraza w'ingoma, hari n'abambaye imishana y'umukara irimo n'amabara y'umweru.

Abantu hari abagabo, abagore, hari abicaye n'abapfukamye bafite ibyansi by'amata hari abari kunywera mu gacuma abasore bambaye ibyera.

Ni ku nyubako nini imbere y'inyubako hari idarapu cy'u Rwanda riri mu mabara atatu, ubururu, umuhondo, n'icyatsi, ndetse hari n'abahagaze bari kuhaza bongera bahava, hari jaride nziza iri gucamo abantu, hameze neza ni ibikorwa remezo byubatse neza.

Imbuganga ngari hari ibikorwa remezo biri kuhakorerwa, harimo imashini, harimo iziri gutwara ibintu, hari iziri kubizana ndetse harimo ibyuma hari n'abantu bari gukoresha ibyo bikoresho.

Ni mu kigo cy'amashuri aho umuyobozi w'ishuri ari kubwira ibyiza by'ishuri ababyeyi, ahagaze imbere yabo yambaye isaha nziza ari kubabwira iby'ikigo cye, imirire y'abana, ndetse n'ukuntu afata abana babo mu gihe bari mu kigo.

Ni mu ihema hicayemo abayobozi, harimo aba mama, harimo aba papa bambaye igitambaro cyo kwibuka mu mugongo, hari abapolisi ku ruhande baricaye bari kumva ikiganiro, imbere yabo hari indabyo ndetse bafite n'amacupa arimo amazi.

Hari abantu benshi, abicaye mu mahema ndetse hari n'abicaye, n'abahagaze, hari abana abagore n'abagabo ndetse bose barangamiye abantu bari mu mahema.

Ni mu nyubako nini nziza hari abagabo hari abagore, hari abari ku murongo imbere y'abandi, bambaye neza iyo nyubako irimo urujya n'uruza rw'abantu baturutse hirya no hino.

Ni muri sale hicayemo abantu benshi, harimo abasirikare, harimo dasso ndetse harimo n'abayobozi, imbere yabo hari amazi, bashyize ingofero ku meza bateze amatwi ikiganiro bari guhabwa.

Ni muri sale hicaye abayobozi, bafite buji imbere hicaye umusirikare na we afite buje, hirya ahagaze umusore yambaye ijiri iri mumabara yubururu n'umuhondo ndetse ku mupira bambaye handitseho mirongo itatu, bari kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu.

Abantu baricaye, imbere yabo hari umuyobozi ari gutanga ikiganiro, harimo abamama, abapapa n'abana, hari abayobozi bicaye na bo bateze amatwi icyo kiganiro, hirya no hino hari mudugudu ndetse hari abapolisi, umupolisi umwe muri bo ni we uri gutanga ikiganiro.

Ni mu muhanda wa kaburimbo, harimo urujya n'uruza rw'imodoka ndetse n'abantu, hateye imbere, hari inyubako nziza ziri mu marangi y'umuhondo, uwahagera yabona iterambere ntawurinze kubimubwira, nawe yakwirebera.

Ni mu muhanda wa kaburimbo harimo urujya n'uruza rw'ibintu n'abantu, hari umupapa uhagaze yambaye kasike y'umutuku ndetse hari n'umumama uhagaze ari kumwereka aho agomba kujya amuyobora, amwereka ko ahantu hose hameze neza ndetse hari n'ibyiza nyaburanga.

Bari mu gikorwa, umwe afashe isuka, undi ari kumutungira agatoki ari kumwereka ibyagezweho, n'abayobozi, hari umupolisi afite idaraporo y'u Rwanda ku kuboko, hari n'umupolisi hirya uri kureba ibyo bari kuvuga.

Mu mudugudu urimo abantu benshi; harimo umusirikare yambaye idarapo ku kuboko ry'u Rwanda, hari amazu ku ruhande, hari agahanda gato, hari ingemu, hari ibigori ndetse hari n'indabyo.

Mu kibuga harimo abakinnyi b'umupira bambaye umutuku hejuru hasi ubururu n'umuhondo, harimo baro, hari n'abafana ku ruhande, harimo uri inyuma ariko asatira umupira, harimo ufite umupira ndetse bari kumwataka, harimo abana, harimo abantu bakuru babafana, harimo ingeri zose.

Ni mu kibuga kigali kirimo abakinnyi, harimo abambaye amajezi y'ubururu, hari abafana ku ruhande, baje kureba amakipe, harimo itsinda ndetse n'itsindwa, baje kwishimisha bigaragare ko ari ibyishimo.

Ni mu masaha ya nimugoroba hari abasore batonze umurongo, barambuye amaboko, bateye intambwe ndende, ndetse harimo abambaye umupira w'umweru, hasi bambaye ipantaro, y'umukara, hari abambaye umuhondo, hari abambaye umutuku, n'uruvange rw'amabara menshi y'imyenda, ndetse bigaragara ko bari muri siporo.

Ni mu nyubako ngari iri mu marangi y'umuhondo, inzugi zifite amarangi y'ubururu, hari umugabo n'umugore bari inyuma y'umusore, yambaye umupira w'umweru, mu mutwe yambaye ingofero y'umukara afite umuriro mu ntoki.

Umurenge Kagame kapu 2024-2025 ari muri kimwe cy'umunani: Karangazi na Mukama, Misheri na Kiyombe, Nyagatare na Gatunda, Katabagemu na Rukomo; taliki 10/01/2025 saa saba z'amanywa. Muzabe muhari turebe iyo mikino...

Ni mukibuga harimo umusore yambaye amajezi y'ubururu, yambaye godiyo n'amasogisi y'ubururu harimo umweru, yambaye ingofero ndetse yambaye imbere umupira uri mu mabara y'umweru n'umutuku.